Imifuka yerekana amafumbire atandukanye y'imvaruganda, yifashishwa n'abahinzi mu gihe cyose bafite imirima yabo bateguye, haba ari mu gutera, haba ari mu kubagara ndetse hari n'iyo bashyiraho mu gihe begereje isarura.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori, umuhinzi aragenda ashyira ifumbire y'imvaruganda ku bigori, kugira ngo umusaruro uzabashe kuba mwinshi, ndetse iyi fumbire iza yunganira ifumbire y'imborera baba barashyizeho, mu gihe cyo gutera.

Abahinzi benshi bari mu murima ndetse bafite udufuka turimo ifumbire y'imvaruganda, bari kugenda bashyira ku bigori, kugira ngo umusaruro wabyo ubashe kuba mwinshi, kandi iyi fumbire inafasha kugira ngo irwanye ibyonnyi bishobora kuza ku bigori.

Ahacururizwa ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo imbuto zihingwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa harimo rozwari zo kuvomerera, ndetse n'ibyo inkoko zinyweramo amazi. Bino bifasha abaturage baturiye hano hafi kugira ngo babone aho bakura imbuto ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi.

Ibirundo bitandukanye byarunzwe, aho bino bikorwa mu rwego rwo gutunganya ifumbire, bafata ibyatsi ndetse n'ibindi bisigarizwa bitandukanye bakabirunda ahantu hamwe, nuko nyuma y'igihe runaka bikazabora, bigahinduka ifumbire izifashishwa mu guhinga.

Abaturage bari muri koperative ihinga amashu, bari mu gikorwa cyiza cyo gusasira amashu, kugira ngo umwero wayo ndetse n'umusaruro bizabe byinshi, kandi mu gihe bavomerere, amazi yere gutwara ubutaka bufashe cyangwa se buhinzemo ayo mashu.

Iyi ni inzu icururizwamo ibikoresho ndetse n'ibyifashishwa mu buhinzi; aho harimo amarozwari akoreshwa mu kuvomera, harimo imbuto mu gihe hari abashaka guhumbika kugira ngo bazatere, ndetse haba hari n'umujyanama mu by'ubuhinzi ubafasha mu kubagira inama ari we bita agoronome.

Akabati karimo ibicuruzwa cyane cyane ibyifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo imiti y'amatungo, harimo ibiryo by'amatungo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kugaburira amatungo cyane cyane mu kuyaha amazi harimo nk'inkoko n'izindi.

Abahinzi bari kwifashisha ingofani mu gutwara ifumbire bayivana aho baba barayirunze, bayijyana mu mirima aho bagiye kwifashisha mu gutera imyaka itandukanye kugira ngo umusaruro wabo uzabe ari mwinshi.

Mu murima w'amashu, umuhinzi uhetse ipombo ari kugenda atera umuti mu mashu, uyu ni umuti wica udukoko cyane cyane kugira ngo turimo dupfe kandi he kugira utuzazamo bityo umusaruro w'amashu uzabe mwiza kurushaho.

Inyubako icururizwamo ibyifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo imbuto ndetse n'ibikoresho byo kuvomerera harimo nka rozwari, amapombo yo guteza umuti ndetse n'ingemwe hamwe n'imiti irinda udukoko.

Imifuka irimo ifumbire y'imvaruganda yitwa dap, ikoreshwa cyane mu buhinzi, ndetse ihabwa abaturage, kugira ngo umusaruro wabo w'ibyo bahinze ubashe kwiyongera no kuzamuka.

Abahinzi bari gutunganya umurima kandi witeguye guterwamo ndetse bari gukoresha ifumbire y'imvaruganda kugira ngo babashe kuyikoresha mu gutera, bityo umusaruro w'ibyo bagiye guhingamo uzabashe kuza ari mwinshi.

Farumasi y'amatungo icururizwamo imiti ndetse n'ibiryo by'amatungo, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa harimo amasahani inkoko zinyweramo amazi, ndetse n'ibindi bifasha mu buhinzi harimo amarozwari ndetse n'ibifasha mu bworozi.

Abaturage bari hamwe bishoboka yuko ryaba ari ishyirahamwe cyangwa se koperative y'ubuhinzi, bari kumwe n'undi muntu uri kubaha ifumbire y'imvaruganda bifashisha mu buhinzi cyane cyane ubw'ibigori kugira ngo umusaruro wabo uzabe mwinshi.

Umubyeyi uri ahantu mu murima aratera urubuto rwa avoka, muri gahunda nziza ya Leta yo gutera ibihingwa bivangwa n'imyaka, ariko bishobora no kuba isoko y'amafaranga ndetse no mu kwihaza mu biribwa kw'abaturage.

Umuhinzi arakoresha ipombo mu gutera umuti ku mashu ye kugira ngo ayarinde kuba yakwangizwa n'udukoko dutandukanye kandi n'umusaruro wayo uzabe mwinshi bityo abashe kubona amafaranga mu musaruro we.

Umurima uhinzemo inyanya ndetse umuhinzi arifashisha ipombo kugira ngo abashe gutera umuti wica udukoko izi nyanya kugira ngo zibashe gukura zidahuye n'ibibazo ndetse iyo ibi ngibi bikozwe byongera umusaruro wazo.

Abahinzi bari hamwe bari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bigori byabo kugira ngo umusaruro wabo uzabe mwinshi, babashe kwihaza mu biribwa ndetse babashe no gusagurira amasoko, bityo babashe gukemura ibibazo byo mu buzima busanzwe.

Abahinzi bari guhinga mu gishanga batunganya ubutaka buhingwamo kandi bwiteguye kuba bwaterwamo imwe mu myaka yera mu kabande harimo amateke, ibijumba ndetse n'indi itandukanye, kandi urabona ko bari guhingira hamwe n'umusaruro uzaba mwinshi.

Umuhinzi ufite ipombo ari kwifashisha mu gushyira umuti ku gihingwa yahinze, bishoboka y'uko ari insina ikiri ntoya, kugira ngo ibashe kuzamuka, uku gutera umuti bituma insina cyangwase n'ikindi gihingwa kitabasha kwangizwa n'udusimba dusanzwe cyangwa se n'izindi ndwara zifata ibihingwa.

Ahacuruzwa ibyifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo imbuto, harimo ibiryo by'amatungo, harimo imiti y'amatungo n'ibindi bitandukanye, aho abacuruzi babigurisha ku bantu b'abahinzi ndetse n'aborozi kugira ngo babafashe.

Akabati karimo ibitandukanye cyane cyane mu byifashishwa mu buhinzi, harimo udukombe turimo ingemwe z'imbuto zitandukanye ndetse harimo n'ibikoresho byifashishwa mu bworozi, harimo nk'amasahani inkoko zinyweramo amazi.

Inzu icururizwamo ibikoresho ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Harimo ibiryo by'amatungo, ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo iby'inkoko zinyweramo amazi ndetse n'ibindi mu gufasha abaturage kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bwabo butere imbere.

Igihingwa cy'ibirayi byeze kandi byapakiwe mu mifuka, biba byahinzwe n'abaturage kenshi bihumbiye mu mashyirahamwe, bakabigurisha ahantu hatandukanye, cyane cyane biba bigiye koherezwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi kugira ngo bicuruzweyo.

Urubuto igihingwa cya avoka ziri ku i palato. Byerekana yuko ari imurikagurisha rihari ibyo kwerekana ibikomoka ku buhinzi. Harimo imbuto n'ibindi. Umusaruro wari wabonetse n'iwo bari kwerekana.

Igihingwa cy'ibigori bihinze ahantu hamwe; bimeze neza, birasheshe ndetse byatangiye guheka mu gihe kigufiya, abaturage bazatangira gusarura umusaruro wabo, kandi bitewe no gukoresha ifumbire mvaruganda n'imborera ndetse no guhingira ku gihe, bazabona umusaruro ushimishije.

Umurima uri mu kabande, uhinzemo imyaka itandukanye, harimo imyumbati, ibigori, amateke, ndetse n'ibindi. Ibingibi bikaba bituma ubutaka butabasha kwera neza, nyamara mu gihe hahinzwemo ikintu kimwe bwakwera neza, kandi hakoreshejwe ifumbire umusaruro ukaba mwinshi.

Umurima munini uhinzemo igihingwa k'bigori. Kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda kandi kikagira umusaruro ushimishije bitewe n'uko abahinzi baba bahinze bakoresheje ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera, kandi bakifashisha imiti irwanya udusimba twangiza ibigori.

Umurima utunganije neza, kandi uhinzemo igihingwa cy'imyumbati imeze neza ishishe kandi itarwaye, bitewe n'uko yitaweho cyane, binyuze mu gutereshwa ifumbire y'imvaruganda n'iy'imborera ndetse no guterwa umuti ubasha kwica udukoko.

Ibishyimbo biteye mu murima wari uhinzemo ibigori, aho ibi biti by'ibigori bisigayemo bidakurwamo ahubwo bigashyirwamo kugira ngo bizabere imishingiriro ibi bishyimbo biba bihinzemo, ibi ngibi byorohereza abahinzi aho batavunika bajya gushaka indi mishingiriro, ahubwo ibi ngibi bihita biba imishingiriro y'ibi bishyimbo.

Ubuhinzi buteye imbere bw'ibishyimbo bihinzwe ku murongo kandi birahishe rwose, bigaragara yuko hari kwitabwaho gukomeye ku ibi bihingwa by'ibishyimbo kandi birasa neza rwose.

Ikibaya cyiza gihinzwemo igihingwa cy'icyayi, kikaba ari igihingwa cyera mu Rwanda kandi kikabasha kugemurwa hanze, kugira ngo gihinduke isoko y'amafaranga ku bantu bagihinga ndetse n'igihugu muri rusange cyinjirizamo amafaranga y'amadevize; kugira ngo n'ibindi bikorwa byo mu gihugu bibashe gutera imbere.

Igihingwa cya kawa imaze gusarurwa, yashyizwe ahantu mbere yuko itangira gutunganywa kandi ni kimwe mu bihingwa bifasha abaturage kubera yuko ikawa imeze neza ibasha kwinjiza amafaranga menshi kandi bakabasha kwikura mu bukene.

Abahinzi bari hamwe bari gutoranya ibibuto bya avoka kugira ngo babihumbike bityo bazabashe kugurisha ibiti bya avoka, ibi ngibi bituma babasha kubona amafaranga kandi n'ababiguze na bo bakabasha kubitera kugira ngo bibagirire akamaro.

Igiti cy'igihingwa cya kawa, gifite imbuto. Gusa imbuto zitarahisha cyangwa se zitarira neza. Kiri muririma mwiza, gusa umurima ntabwo usasiye. Gusa ubutaka bwe buragaragara yuko bubobereye kandi bumeze neza.

Igihingwa cy'umuceri weze neza, kandi witeguye kuba wasarurwa, kugira ngo ujyanwe aho wanikirwa, nyuma yo kwanikwa utunganywe, nyuma yo gutunganywa ubashe kujyanwa ku isoko. Abaturage bawuhinga babashe gukuramo amafaranga, kandi babonera n'icyo kurya.

Umurima utunganijwe kandi uhinzemo igihingwa cy'amashu, akaba ahinze mu buryo bwa kijyambere, aho ahinzwe ku murongo kandi ahabwa ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera mu gihe gikwiriye, kugira ngo abashe kwera umusaruro ushimishije banyirawo.

Igihingwa cy'ibirayi bihinze ahantu hanini cyane kandi bimeze neza bishishe, biragaragara cyane yuko byitaweho mu guterwa, hibandwa mu gutegura ubutaka neza, gushyirwamo ifumbire, guterwa umuti wica udukoko ndetse no kurandura ibyonnyi.

Ikibaya kinini gihinzwemo igihingwa k'icyayi, aho kidakunze guhingwa cyane ariko abagihinga babasha gukuramo amafaranga menshi, bitewe n'uko kibasha kugurishwa ndetse kikagurishwa no hanze y'igihugu kandi iyo gitunganyijwe gikorwamo icyayi n'abaturage bashobora kunywa.

Umurima uhinzemo imyumbati, ibigaragara rwose imyumbati imeze neza ntabwo ibembye, kandi irisanzuye aho hagati y'umwumbati n'undi harimo umwanya mwiza kandi imyumbati iri gukura mu buryo bushimishije kandi butanga icyizere yuko abaturage bazabona umusaruro.

Igihingwa cy'ibirayi byeze byasaruwe ndetse byapakiwe mu mifuka byiteguye kujyanwa ku masoko atandukanye, abaturage babihinze bakungukira muri uyu musaruro babonye kuko babasha kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bafite.

Ubuhinzi bw'umuceri, aho berekana umuceri wumye witeguye kujyanwa gutunganywa mu ruganda, kugira ngo ubashe kugurishwa ahatandukanye. Abahinzi babasha gukuramo amafaranga, kandi bakabona n'ibyo kurya.

Ingemwe ziri aho zihumbikirwa zakuze neza kandi ziteguwe kuvanwa aha ngaha zijyanwa guhingwa ahandi hantu hatandukanye, aho akenshi na kenshi biba ari ibiti by'imbuto cyangwa se ibindi biti bishobora kuvangwa n'imyaka kugira ngo bigirire akamaro ababiteye.

Iihingwa k'imyumbati giteye mu buryo bwa kijyambere, aho hagati y'umwumbati n'undi harimo umwanya kandi ibibabi byacyo bimeze neza, ntabwo bibembye, ndetse mu murima hateyemo indi myaka ishobora kuvangwa n'imyumbati ikaba yaba isoko y'ibyo kurya kandi ntibibangamire imyumbati.

Abagabo babiri bari mu murima uteyemo igihingwa k'imbuto z'ibinyomoro, ibinyomoro biteye ahantu mu butaka bwiza ariko budakorewe isuku kubera yuko bwarenzwe n'ibyatsi.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'ibirayi, bishishe bimeze neza, kandi bigaragara ko byitaweho cyane mu guhabwa ibikenewe byose, harimo ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iyimborera mu gutera, byatewe umuti urwanya ibyonnyi kandi n'umusaruro uzaba mwiza.

Ubuhinzi bw'inyanya buteye imbere, aho binyuze mu gukoresha imbuto z'indobanure zikitabwaho binyuze mu gukoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera, zikavomererwa neza, zigaterwa umuti neza, zibasha kwera neza kandi zikagira umusaruro ushimishije.

Abahinzi bari ahatunganyirizwa ingemwe z'ibiti bitandukanye harimo ibiti by'imbuto ndetse n'ibindi biti, bari kwerekana umusaruro babonye kandi umusaruro witeguye kugurishwa kugira ngo yaba abajya kuwuhinga ndetse n'abandi babashe kubona imbuto z'ibiti batera.

Umurima munini cyane utunganije, kandi uteyemo igihingwa cy'icyayi mu buryo bwa kijyambere, kandi hateyemo ibiti bitandukanye. Ibingibi bituma hahora hatoshye kandi hahereye, ndetse ubutaka bwaho bukarushaho gufatwa kugira ngo budatwarwa n'isuri.

Abahinzi bari mu murima bari guhinga, babagarira ibigori, nyamara bari gutegura umurima basa nk'abagiye kongera guteramo indi myaka ishobora guhingwamo ntibangamire ibigori, bashobora guhingamo ibishyimbo, ubunyobwa se, cyangwa se na soya.

Umurima uhinzemo ibigori kandi bishoboka cyane yuko byeze ndetse n'ibigori byiza kuko harimo icya gihe gika bibiri bibiri, aho umuhinzi wese ashishikarizwa gukoresha ifumbire y'imvaruganda n'imborera kugira ubuhinzi bubashe kugaragaza umusaruro ushimishije.

Umurima munini uhinzwe kandi uri gutunganywa kugira ngo bitegure kuhatera imbuto zitandukanye, aho umubyeyi agerageza kugenda ashyira ifumbire ndetse n'imbuto mu myobo, kugira ngo ubutaka buzabashe kwera neza.

Abaturage bari gukora imiringoti y'imirwanyasuri iruhande rw'umuhanda, mu gikorwa cy'umuganda. Ibingibi ni gahunda nziza leta ishyiraho yo kurwanya isuri kandi no gufata ubutaka kugira ngo budatembanwa n'amazi.

Ubutaka bumeze neza bwahinzwe kandi butuyemo imyumbati ariko hahinzwe n'ibindi bishobora guhingwamo, harimo ibishyimbo, soya, ubunyobwa bityo bikazera bigasarurwa kandi bitabangamiye umwero w'imyumbati.

Umurima uhinzwemo imyumbati iri gukurwa kugira ngo ijye gukoreshwa kenshi na kenshi bayikura kugira ngo bajye kuyininika bayikuremo ubugari cyangwa se bakayigura kugira ngo bayigurishe ijye gutekwa uko nguko iba ikimeze n'ubundi.

Abahinzi basa nk'aho bari mu ishyirahamwe, bari gukora batunganya ubutaka, bakora amatarasi y'indinganire, aho bifata ubutaka kugira ngo butaba bwatembanwa n'amazi, mu gihe imvura yabaye nyinshi bukabasha kugumya kandi bukomeye.

Umurima munini cyane uri gutunganywa uhingwa ndetse utuyemo ibigori. Aho abahinzi mu gihe hakirimo ibigori bashobora guhingamo ibindi bintu bitandukanye bishobora kutangiza ibigori. Harimo nk'ibishyimbo, soya, ubunyobwa ndetse n'ibindi.

Umuhinzi ari guhinga mu rutoki ahingira urutoki ariko nanone ashobora kuhahinga akaba yateramo indi myaka itajya ibangamira urutoki kandi yera vuba nk'ibishyimbo, soya n'ibindi bishobora kumufasha kugira ngo abone ibyo kurya.

Abahinzi bari mu murima bari guhinga, ni benshi bishyize hamwe, kandi bamwe bari guhinga abandi bawutunganya, bigaragare y'uko ishobora kuba ari ishyirahamwe ry'abahinzi bishyize hamwe, kugira ngo babashe guhinga igihingwa kimwe kandi n'umusaruro wacyo ubashe kwiyongera.

Umuturage ufite isuka, uri guhinga mu rutoki, urutoki ari guhingamo, ruhinzemo indi myaka, harimo imigozi y'ibijumba, ndetse n'imyumbati, ibi ngibi bikaba biri mu byo leta iri guca, aho iri kubuza abaturage guhinga ibihingwa byinshi mu murima umwe, kuko bibangamira umusaruro wa buri gihingwa.

Umuhinzi uhagaze mu murima uhinzemo urutoki, ari guhinga akorera insina zirimo ndetse yitegura no guteramo indi myaka ishobora guhingwamo ntibangamire urutoki, harimo ibishyimbo, soya ndetse n'ibindi bishobora kwera vuba.

Abahinzi babiri bari mu murima, bafite ibiti birebire bari gushingiriza ibishyimbo. Ibishyimbo bya mishingiriro ni ibishyimbo bigira umusaruro ushimishije, bitewe n'uko byera ibishyimbo byinshi kandi ari igishyimbo kimwe.

Umurima mugari cyane uri gutunganywa, hifashishijwe ibikoresho bitandukanye kandi mu buryo bugezweho, binyuze mu guca amaburoke mu murima, kugira ngo buri muririma uzaterwemo ibijyanye n'ibyo wahawe harimo ifumbire.

Ku kibuga aho banika umuceri cyangwa se ingano. Koperative ishyirahamwe ry'abahinzi bishyize hamwe. Abadamu bari gukubura begeranya ingano, cyangwa se umuceri wahinzwe mu gihe bari kuwanura mu mugihe wumye neza.

Abaturage bari guharura impande y'umuhanda, akenshi bikorwa mu gikorwa cy'umuganda, aho abaturage ubwabo bitunganyiriza kandi bagakora isuku aho batuye, bitewe n'uko umuhanda uba ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bityo bagomba kuwukora kugira ngo waguke, ubuhahirane hagati y'imidugudu n'indi bubashe kugenda neza.

Abantu bafite ibitiyo bari gukora nk'abasiza ikibanza, abagabo harimo abambaye umupira ndetseho ngo umutoza, bishoboka yuko ari intore ziri ku rugerero mu gikorwa cyo gusiza ikibanza gishobora kubakwamo ibikorwa bitandukanye.

Umuturage ari mu murima uri mu rutoki afata ifumbire y'imborera ayishyira mu myobo aho agiye gutera ibihingwa bitandukanye bishobora guhinga mu rutoki ndetse ntibibangamire insina ziteyemo harimo nk'ibishyimbo, amashaza, ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abaturage bari gukora iteme mu muhanda, ibi ngibi ni igikorwa kiza, aho byongera ubuhahirane hagati y'agace n'akandi kandi iyo umuhanda ari nyabagendwa, bifasha n'abantu bafite ibinyabiziga kuba bahagera ku buryo buboroheye.

Abahinzi bari mu murima, bari kubagarira igihingwa cy'imyumbati ihateye ikiri mitoya, ndetse bari kuhahinga kugira ngo bitegure kuba bahatera indi myaka ishobora kuvangwa n'imyumbati ntiyangize kandi yera vuba, nk'ibishyimbo n'ibindi.

Umuturage uri mu murima ahinga ari guhingira igihingwa cy'imyumbati akibagarira kugira ngo gikure neza kandi ashobora no guteramo n'ibindi bihingwa, harimo nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi kugira ngo akomeze kwihaza mu biribwa.

Ubuhinzi bw'ibigori umuhinzi arishimira umusaruro, aho ibigori byeze neza kandi, ikigori kimwe kikabasha guheka bibiri, ibi ngibi biba byaraturutse mu guhinga neza ubutaka, binyuze mu gukoresha ifumbire y'ivaruganda n'iy'imborera, ndetse no guterwa umuti wangiza udukoko twataka ibigori.

Umuhinzi uri mu rutoki, ari gukorera igiti cya avoka kihateye, ni gahunda nziza yo gutera ibiti by'imbuto bishobora kuvangwa n'indi myaka, kugira ngo bibashe kuvamo amafaranga kandi bifate ubutaka budatembanwa n'isuri.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto y'ibirayi, abahinzi bari gutera umuti ku birayi, bimeze neza birashishe, byabonye ibikwiye byose kugira ngo bibashe kwera kandi bizatange umusaruro ukwiriye ku bahinzi.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'ibishyimbo, bikaba bihinze mu buryo bwa kijyambere ku murongo kandi mu myobo, ibi ngibi bituma ifumbire irimo ibasha gukoreshwa neza ndetse n'igihe cyose bibashije kuzamuka bibasha kwitabwaho mu buryo bukwiriye.

Mu gishanga shitingi zanitseho umuceri cyangwa se ingano ndetse n'imifuka bamwe bari kugenda bashyiramo, ubuhinzi busa nk'aho bugeze ku ndunduro bitewe nuko bari gusarura umusaruro wabo.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa k'ibishyimbo, ibishyimbo bimeze neza kandi hagati y'igishyimbo n'ikindi harimwo umwanya uhagije bituma bibasha kumera neza kandi bigakura neza, ndetse n'igihe bikeneye gushingirirwa igiti kikabona aho gihagarara n'igishyimbo kikabona aho kizamukira.

Inzu nini irimo umusaruro w'ibirayi byahinzwe kandi byeze neza, aho bishyirwa mbere y'uko bipakirwa mu mifuka kugira ngo bibashe kujyanwa aho bigiye gucururizwa, haba abacuruzi bigenga, haba amakoperative y'ubucuruzi ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu.

Abagabo babiri bari guterura imifuka bayihunika, bishoboka cyane yuko ari imyaka, umusaruro weze w'abaturage, ibishyimbo se, umuceri cyangwa ingano ndetse n'ibindi abaturage bashobora kweza.

Ibitoki biri hamwe byajyanwe kugurishwa, aho abahinzi babyo babizana kugira ngo ababirangura babirangure, kandi bajye kubicuruza mu duce dutandukanye, bityo abahinzi bakabasha kubona amafaranga, kandi n'ababirangura nabo bakabasha kunguka binyuze mu kubicuruza.

Ubuhinzi bw'ibijumba, aho imigozi imeze neza kandi ishishe, byerekana yuko abaturage bahinze bazasarura kandi umusaruro wabo ukabasha kuba mwinshi, bakabasha kwihaza mu biribwa kandi bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga.

Isoko ricururizwamo imboga zitandukanye harimo inyanya, aho byerekana ko abaturage bahinze inyanya kandi zikabasha kwera neza ndetse abaguzi bazigura na bo bakabasha kuzibona ku giciro kiboroheye bityo amafunguro yabo akaba ameze neza.

Isoko ry'imbuto ryubakiye neza ziganjemo amatunda, ibinyomoro, imyembe, inanasi ndetse n'umucuruzi wazo, aho babirangura n'abacuruzi babihinga kandi bakabicuruza n'abandi bantu batuye hafi aho ngaho badafite uburyo bwo guhinga.

Igishanga kinini cyane gihinzwemo igihingwa cy'ibigori. Kimwe mu gihingwa gikunze guhingwa cyane mu bishanga byo mu gihugu cy'u Rwanda, kandi igihingwa gikunze kwera neza, aho usanga abaturage bishimira umusaruro babona bakabasha kwikura mu bukene.

Abacuruzi bari mu isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye, harimo avoka, imineke, amacunga ndetse n'ibindi, aho izi mbuto baba baziranguye n'abaturage nuko na bo bakazicuruza n'abandi bantu basanzwe batazihinga.

Umuhinzi uhinga ibitoki arishimira umusaruro wabonetse mu bitoki bye, ni ibitoki binini kandi byiza bimuzanira amafaranga yo gukemuza n'ibindi bibazo biri mu buzima busanzwe, ndetse akabasha kubona ibyo akeneye.

Ikibaya kinini gihinzwemo igihingwa cy'umuceri, aho umuceri ukenera amazi menshi, kandi aho uhinze hagomba kuba hari isoko yayo kugira ngo ubashe kwera neza. Abaturage bawuhinga cyane cyane bawuhinga mu mashyirahamwe, kuko kuwitaho bisa nkaho bigoye.

Abaturage babiri bari guhambira imiba igizwe n'ibiti by'imyumbati. Aho ibi biti byifashishwa mu gukurwamo imbuto binyuze mu kubicamo ingeri; izo ngeri zikaba arizo ziterwa mu butaka zikamera kandi zigatanga umusaruro w'imyumbati.

Abantu babiri umwe uri gucuruza n'undi uri kugura inyanya, baraciririkanya kugira ngo bumvikane amafaranga ari bumuhe ku nyanya, yaba ari ukugura izi zose cyangwa se kuguraho nkeya bitewe n'izo akeneye.

Abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe, ndetse imbere yabo hari igihingwa cy'ibitoki, bahazanye mu imurikagurisha. Mu rwego rwo kwishimira ibyo bejeje, kandi n'umusaruro babonye ushimishije mu gikorwa cy'ubuhinzi bakora.

Inyubako ihunitswemo ibihingwa byeze, byerekana yuko ari koperative ikorera muri aka gace, abantu bahari biraboneka yuko ari abaje gutaha no kwishimira umusaruro wagezweho.

Igihingwa cy'amasaka yanitswe kugira ngo yume abone uko ahurwa, ni igihingwa gihingwa cyane mu Rwanda ndetse gifite amateka akomeye cyane bitewe nuko kirifashishwa mu gukurwamo ibyo kunywa bitandukanye harimo igikoma, umusururu, kigage n'ibindi abanyarwanda bakunda.

Ibiti bitandukanye biri mu ishyamba rya kimeza harimo inturusu, ndetse n'ibihuru bitandukanye, aho ishyamba riba ryarimejeje nta muntu wariteye, bigatuma ikirere cyacu kigubwa neza bitewe n'umwuka mwiza uzamuka mu kirere wa ogisijeni.

Ingemwe zameze kandi ziteguye kuba zagemurwa, kenshi na kenshi izi ngemwe zikunze kuba ari ibiti bisanzwe batera mu ishyamba cyangwa se bikaba ari ibiti by'imbuto biza kugurwa n'abaturage kugira ngo bajye kubitera, ibi ngibi bikaba bibafasha gufata ubutaka kugira ngo budatwarwa n'isuri.

Umurima utunganyije, kandi uteyemo insina, zikaba ziteye mu buryo bwa kijyambere. Aho hagati y'insina n'ndi harimo umwanya uhagije, aho insina iteye mu mwobo wayo kandi urimo ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera. Bityo umusaruro wazo ukaba mwinshi cyane.

Igiti cyatemwe kigwa hasi, bagiye kugikoresha ibitandukanye, harimo ko cyakurwamo inkwi zo gucana cyangwa se n'amakara na yo yo gucana, mu gihe bitemwe ari byinshi bikangiza ibidukikije, harimo kubura umwuka ndetse no gutuma ubutaka bubasha gutwarwa n'amazi.

Ibiti by'inturusu birebire binini kandi byeze, bigeze igihe cyo gusarurwa, kugira ngo bibe byavanwamo ibitandukanye, harimo kuba byabazwamo imbaho zifashishwa mu bikorwa bitandukanye, ndetse bikaba byanatwikwamo amakara yifashishwa mu guteka.

Igiti k'ipera ndetse n'ubundi bwoko butatu bw'ibyatsi, kiri gushibuka kimera, byerekana urusobe rw'ibinyabuzima ruri kuzamuka muri kano gace kandi biratanga ikizere yuko ibidukikije bizaba byinshi kandi bikarushaho gukura uko bikwiriye.

Insina yannye igitoki, ikaba ihinze mu rugo rw'umuturage n'ubundi, aho ibingibi leta ibishishikariza abaturage kugira ngo mu rwego rwo kwihaza mu biribwa abantu bagire ibyo kurya bihagije.

Ubuhinzi bw'urutoki ariko buvanzemo n'ibindi ndetse umurima warenzwe n'ibyatsi bitewe no kutawitaho no kutawukorera bikwiriye, bituma n'umusaruro w'urutoki uba mukeya kandi n'ubutaka umwero wabwo uragabanuka.

Uruboga rw'ikibiringanya ni uruboga ruhingwa nk'intoryi kandi rukera imbuto nini cyane zibasha gutekwa, zikabasha kugirira akamaro abaziriye kuko zifite intungamubiri kandi zikabasha no kugurishwa zikavamo isoko y'amafaranga.

Abahinzi babiri bari mu murima bari kubagarira igihingwa cy'ibishyimbo, biteye mu buryo bwiza budacucitse, kandi biri ku murongo, kandi biteye mu myobo, ibi ngibi bikaba byongera umusaruro uzaboneka.

Umubyeyi ari gucuruza amatunda, ibinyomoro ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ku bantu bari kunyura kuri iyi nzira. ibingibi arabirangura akaza kubicuruza ahangaha kugira abashe kubona amafaranga atunga abana be ndetse n'urugo.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'imiteja, ndetse abahinzi barimo bari gusarura, ni ubuhinzi budakunze kugaragara cyane ariko ababukora bahamya kandi bemeza yuko bibagirira akamaro, bitewe nuko imiteja ibasha kuvamo ari myiza kandi ikagurishwa amafaranga menshi.

igihingwa cy'urubuto rwa wotameroni, ni igihingwa gikunze guhinga cyane mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse zikunze kugurishwa cyane mu mujyi wa Kigali, kuko abantu benshi batuye mu ntara ndetse no mu byaro, ntabwo bazi akamaro ka wotameroni, gusa muri ino minsi zihagazeho cyane kandi zirahenze.

Ibitunguru biri mu kintu kimwe biri kugurishishirizwamo, byerekana ko aka gace keramo igihingwa cy'ibitunguru cyane, kandi abaturage bishimira umusaruro babonye ushimishije.

Ubacuruzi bari imbere y'aho bacururiza imboga zitandukanye imiteja, amarongi, intoryi, inyanya, benshi mu baturiye hano hafi baza kugura imboga ndetse n'imbuto aha ngaha kuko anenshi ziba zihendutse.

Agakarito karimo ibikombe birimo imbuto za karoti, aho izi mbuto zitwarwa zigahumbikwa ahantu hatandukanye, nyuma zamara kumera zikagemurirwa mu murima wateguwe kandi watunganijwe kugira ngo zimerere ahongaho.

Igihingwa cy'urusenda kidakunze guhingwa cyane n'abaturage, nyamara kigira amafaranga mu gihe wagihinze neza, aho izi nsenda zibasha kurangurwa n'inganda zikora urusenda rwifashishwa cyane mu tubari n'amaresitora, bakabona amafaranga.

Ubucuruzi bw'imboga ziganjemo intoryi, karoti dodo, imyungu, amashu ndetse n'izindi, gusa budateye imbere bitewe n'uko isoko ntabwo ryubakiye bityo ibi ngibi bikaba byongera umwanda kandi n'abacuruzi bagurira hano hantu bakaba bataba bizeye ibyo baguze.

Isoko ricururizwamo imbuto ziganjemo inanasi, imyembe, amacunga, pome, ibinyomoro ndetse n'izindi, aho abaturage babyejeje baza kubigurisha ku bacuruzi bakabirangura na bo bakabicuruza ku bantu baza kugura basanzwe.

Igiti cya avoka giteye mu murima uhinzemo indi myaka, harimo imyumbati ndetse n'amateke. Ibi ngibi ni kimwe muri gahunda yo gukangurira abaturage guhinga ibiti by'imbuto bivangwa n'imyaka. Bigatuma abaturage bihaza mu biribwa kandi n'ubutaka bwabo bukarushaho gukomera.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye harimo imyembe, harimo amatunda, ibinyomoro ndetse n'amacunga, bicururizwa ahatandukanye kandi abaguzi ndetse n'abacuruzi bagahurirayo kugira ngo buri muntu wese abashe kubona igikwiriye, umucuruzi abone amafaranga n'umuguzi abone ibyo ashaka kugura.

Umuhinzi ukora igikorwa cyo guhinga amatunda, ari gusarura amatunda yeje ahinze neza kandi arubakiye, ibi ingibi ni igikorwa cyo kwiteza imbere urubyiruko rushishikarizwa cyane cyane gushora imbaraga zabo mu buhinzi.

Urubuto rwa watermelon, rumwe mu mbuto zihingwa mu ntara y'Amajyaruguru cyane cyane, aho zakusanyijwe ziva mu murima kugira ngo zipakirwe zijyanwe aho zigiye gucururizwa, aho abahinzi bazihinze babasha kubona amafaranga aturutse ku musaruro w'ibyo bahinze.

Umuhinzi uri ahatunganyirizwa imbuto, aho bazihumbika zikamera, bityo zamara kumera zigakurwa aha ngaha zijyanwa aho ziterwa. Higanjemo ibiti by'imbuto, avoka ndetse n'imyembe, ndetse n'ibindi biti bishobora kuvangwa n'imyaka, bikagirira akamaro abantu babihinze.

Umuturage uri gusoroma imboga mu karima k'igikoni, kubatswe, nyamara akarima k'igikoni karenzwe n'ibyatsi, byerekana yuko atagakorera cyangwa se atagahingira uko bikwiriye nyamara, ni kimwe mu bituma abaturage babasha kubona imboga, mu buryo buboroheye.

Umuhinzi ari kumwe n'abana, bari gusarura igihingwa k'inyanya, zitewe mu buryo bwa kijyambere aho zishingirirwa kugira ngo zibashe kubona uko zizamuka kandi ibi ngibi bituma zibasha kwera inyanya nyinshi, mu cyimbo k'izisanzwezera inyanya nkeya.

Igihingwa cy'intoryi ziteye ndetse hakaba harimo izatangiye gutukura byerekana gutinda gusarurwa, aho intoryi zera zigasarurwa kandi igiti gisigaye na cyo kigatangira kwera izindi ntoryi mu bihe bitandukanye.

Akarima k'igikoni, kubakiye, kandi gateyeho imboga ziganjemo dodo , ikaba ari gahunda nziza, yo kugira ngo abaturage, buri muturage abashe kuba agafite , kandi abashe kurya imboga bitamugoye, kugira ngo imirire mibi ibashe kuranduka.

Isoko ricururizwamo imbuto ziganjemo watermelon, indimu, pome ndetse n'izindi, kenshi abacuruzi bacururizamo barangura n'abaturage bazihinga cyangwa se n'andi mamodoka manini abizana noneho na bo bakazicuruza ku bandi bantu basanzwe.

Isoko ry'imboga harimo karoti, imbwija, inyanya ndetse puwavuro n'ibindi bitandukanye. Abacuruzi bacururiza izi mboga baba baziranguye n'abaturage bazihinga, na bo bakazisubiza ku bandi baturage, baba baje kuzihaha.

Umuturage uri mu murima uhinzemo ibihingwa cy'ibishyimbo cyangwa se soya, aho ari kunyuramo agenda abagara akuramo ibyatsi cyangwa se akuramo ibirayi kenshi bakunze guhingamo bikereramo ndetse n'ibihingwa b'indi bateyemo na byo bikabasha kwera.

Ubucuruzi bw'imboga harimo karoti, ibibiriganya, beterave n'izindi, aho mu isoko zicururizwamo ziba zazanywe n'abantu babihinga ndetse abantu badahinga batuye cyane cyane mu mijyi bakaza mu isoko baje kuzigura n'abacuruzi baba baziranguye.

Igihingwa cy'ishu riteye mu butaka, rimeze neza rishishe, ryahawe ibyangombwa byose, harimo amazi umuti kugira ngo ribe rimeze neza kandi rigeze igihe cyo gusarurwa.

Isoko ry'imbuto ziganjemo ibinyomoro, imyembe, amacunga, avoka aho abahinzi baturiye hano hantu bazana umusaruro wabo, bakawucuruza n'abawurangura bityo abawurangwa nabo bakawucuruza n'abandi bantu batabasha guhinga batuye hano hantu.

Igihingwa cy'inyanya zeze kandi ziteguye kugurishwa, ziri mu gitebo aho zigurishirizwa, aho abahinzi bazizana ku isoko kugira ngo baziranguze, cyangwa se bakazizana kugira ngo bazicuruze ndetse abandi na bo bakaza mu isoko baje guhaha.

Imbuto zitandukanye harimo imineke, amatunda, imyembe, indimu ndetse n'izindi zidanditswe bigaragara ko ziri gucuruzwa n'abantu batandukanye kugira ngo babashe kubona amafaranga ndetse n'abaturiye aha ngaha babashe kubona aho abagurarira imbuto.

Igihingwa cy'ibinyomoro byazanye imbuto nyamara bitarera ngo bisarurwe, bigaragara y'uko ko bimeze neza kandi byitaweho, bihabwa ifumbire kandi biterwa umuti. Bityo ababihinga bakitegura kuzabona umusaruro ushimishije ndetse no gufata amafaranga.

Indabyo ziteye iruhande rw'umuhanda, bikongera kugaragara neza kw'aho hantu, ikindi kandi bituma ubutaka bufatwa kugira ngo budatembanwa n'amazi mu gihe cy'imvura nyinshi, ibyo bikarinda kandi bigafasha umuhanda kugira ngo ukomeze use neza.

Umumama ufite imbuto zimwe, yikoreye imineke ndetse n'ibinyomoro afite mu kandi kabase mu ntoki, aba ni bo twita abazunguzayi, bakunze gukoresha uburyo bwo kujya kurangura mu isoko noneho bakagenda mu nzira bagurisha n'abantu bahuye na bo, cyangwa se mu ngo z'abantu.

Igiti cy'avoka kitarera imbuto ariko kiri hafi kwera, giteye hafi y'urugo ni igiti gishishe kandi gifite amababi menshi, muri gahunda yo gutera ibiti byinshi ahantu hatandukanye, Leta ishishikarizaga buri muturage kugira igiti cy'urubuto giteye hafi y'urugo rwe.

Igihingwa cy'ibinyomoro ni urubuto rwiza rwera kandi igihe cyose cyitaweho kibasha gutanga umusaruro, nyamara mu gihe kititaweho ngo giterwe umuti kandi gihabwa ifumbire mu buryo bukwiriye kirangirika kandi umusaruro wacyo ukaba mukeya.

Akarima k'igikoni gateweho imboga z'ubwoko butandukanye, ibi ngibi bikaba bifasha ba nyirako kugira ngo bajye babona imboga zo kurya mu buryo buboroheye batiriwe bajya kuzigura, ndetse bashobora no kuba bazigurisha; bityo ubuzima bwabo ndetse n'abana babo bubashe kumererwa neza.

Abaturage harimo abana n'ababyeyi babo, bikoreye ingemwe zitandukanye, zahumbitswe zikaba zigiye kugemurirwa mu mirima yazo, kugira ngo zibashe kwera.

Ubuhinzi bw'imboga zitwa intoryi, umuhinzi ari kugerageza kuzikorera isuku akuramo ibyatsi ndetse intoryi zeze ziba zigomba gukurwamo kugira ngo zihe inzira izitarera na zo zibasha kwera bityo na zo zibashe kuba zasarurwa.

Igiti cy'ipapayi giteye mu murima bigaragara yuko uyu murima uri mu rugo kuko inyuma yawo hari igikuta, ipapayi nta papayi ifite isa nkaho ihishije ariko bigaragara yuko iri mu gihe cyo kwera.

Mu isoko ry'imbuto harimo imbuto nyinshi zitandukanye z'amoko atandukanye amatunda, pome, imyembe, ibinyomoro n'ibindi. Abaturage bamwe baza mu isoko baje kugurisha abandi bakaza baje kugura, kenshi ni n'umusaruro uba waturutse mu baturage ubwabo.

Imbuto zitandukanye ibinyomoro, amaronji, imyembe wotameroni ndetse hari n'umunzani, bigaragara yuko ari mu isoko kandi abaturage bahangaha bamwe barabihinga bakaza kubigurisha abandi bakabigura bitewe n'ibikorwa by'ubuhinzi bigaragara muri kano gace.

Umurima uhinzemo imboga za dodo, aho ari imboga zikunze kuboneka cyane kandi zigacuruzwa mu isoko ku mafaranga atari menshi, ibi ingibi bituma ababasha kuzigura bazirya kandi zikabagirira akamaro mu buzima bwabo.

Indabyo ziteye imbere y'inzu runaka, ibi ngibi bikaba bituma inzu igaragara neza kandi mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije byongera biodiversity y'ibidukikije.

Igiti cya avoka kiri mu biti by'ibituburano kandi bigezweho, cyerera igihe gitoya, biragaragara yuko cyatangiye kuzana imbuto, nubwo zitarera, ariko ni ibiti byiza cyane, kandi bitanga umusaruro mwinshi, bigafasha ababihinze.

Urubuto rwa avoka ruteye mu murima uhinzemo ibindi bintu, ibi ngibi ni byiza cyane kubera yuko bifata ubutaka kandi ejo n'ejobundi uyu muntu azabasha kubona amafaranga akuye muri voka, ndetse abashe no kuzirya ubuzima bwe bubashe kugenda neza.

Imboga zidanditswe ahantu hamwe. Harimo intoryi, karoti, poivro. Bigaragara yuko ziri hasi. Ni ubucuruzi bukunze gukorerwa ahantu mu dukaritsiye dutoya, aho abanyeshuri ndetse n'abandi bantu batuye aho hantu, bashobora kuza kugura ibyo guteka.

Igiti cy'urubuto rw'ibinyomoro gisa nkaho cyumye bitewe n'izuba ryinshi kandi amababi yacyo asa nkaho yarwaye ndetse izi mbuto zigaragara nkaho ari iza nyuma, bityo kino giti gikeneye kwitabwaho cyangwa se kigasimburwa, kigasimbuzwa n'ibindi bishyashya.

Igihingwa cy'umungu, bamwe bakunze kwita ibihaza, ni igihingwa kera kandi kigirira umubiri akamaro, harimo gusohora imyanda mu mubiri.

Ingemwe zari zarahunitswe, ziri guhabwa abantu kugira ngo bajye kuzitera. Ziganjemo ibiti bya avoka ndetse n'ibindi biti bishobora kuvangwa n'imyaka, kugira ngo abaturage babashe gufata ubutaka bwabo, kandi n'imbuto zeraho babashe kuzirya zibagirire akamaro.

Abaturage, bari kwishimira umusaruro, w'amatunda, bejeje. Ikigaragara cyo bishyize hamwe, bafatanya guhinga, kandi bahinga mu buryo bugezweho, aho amatunda yabo yubakiye neza. Kandi n'umusaruro uvuyemo urabigaragaza, yuko bahinze neza.

Isoko ricururizwamo imbuto zirimo indimu, ibinyomoro, amacunga n'ibindi, aho benshi mu babyejeje babizana ku isoko kugira ngo birangurwe n'abacuruzi na bo bakabicuruza ku bandi bantu batabihinga bityo bakabona amafaranga.

Isoko ricururizwamo imboga ziganjemo karoti, inyanya, amashaza ndetse n'ibindi, aho ryubakiye neza kandi abacuruzi barangura n'ababihinga, nuko na bo bakabicuruza ku bantu badahinga, bakabasha kubona amafaranga.

Ingemwe z'ibinyomoro zihumbitse, zitaragemurwa kugira ngo zijyanwe aho zigiye guhingwa, aho mbere yuko zihingwa zibanza guhumbikwa, zamara gukura zikajyanwayo bityo buri muntu wese akaba yabasha kubona urugemwe rwo kujya guhinga.

Jaride irimo ibiti cyane cyane iby'indabyo bitandukanye, harimo nk'umukindo ndetse n'ibindi, ibi bituma ahantu hasa neza, kandi ikirere kikagira umwuka mwiza, bitewe n'ibi biti bizamura umwuka.

Akarima k'igikoni kubakiye kandi gakorewe isuku, gateyeho imboga kandi gasasiye kugira ngo izo mboga zibashe kubona ubutaka bwiza ndetse no mu gihe bavomereye amazi abashe kugeramo imbere, ni igikorwa kiza kizamura imirire y'abaturage.

Ubucuruzi bw'imbuto, ziganjemo imyembe, amatunda, indimu, ibinyomoro, ndetse n'ibindi, benshi mu baturage batuye hafi aha ngaha, barahinga, bakaza kugurisha n'abacuruzi. Ndetse abacuruzi nabo, bakaza kugurisha n'abandi bantu bataba babihinze.

Umuhinzi ahagaze mu murima w'intoryi ari gusarura ndetse harimo n'ibindi biteyemo harimo ibinyomoro bitarera nyamara na byo bizera kandi intoki zimeze neza, byerekana ko ubutaka bumeze neza, bwahinzwe neza, bufungumburwa neza n'ibinyomoro mu gihe bizaba byeze, azabasha kubona amafaranga abone n'ibyo kugaburira abana bityo abana babashe gukura neza.

Akarima k'igikoni gahinzeho imboga ziribwa kandi zimeze neza zirashishe. Bino bifasha abaturage kubona imboga hafi bityo ibibazo biterwa n'imirire mibi cyane cyane mu bana no mu b'abagore batwite bikarandurwa.

Abahinzi babiri bafite imbuto z'intoryi mu ntoki, bari kumwenyura bishimira umusaruro babonye mu gihe bahingaga igihingwa cy'intoryi.

Imyembe myinshi iri hamwe aho icururizwa, benshi mu bayihinga bayizana kuyicuruza n'abaguzi bayirangura ndetse abaguzi bayirangura na bo bakabasha kuyigurisha ku bantu basanzwe batayihinga, ikaba ari urubuto rwiza kandi rufasha umubiri kumererwa neza.

Imirima iri ahantu mu kabande ihinzwemo ibitandukanye: hamwe hahinze ibigori ahandi hahinzwemo karoti; ibi ngibi bituma abaturage babasha kubona amafaranga ndetse bakabasha kurya indyo yuzuye igizwe: n'ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, harimo imboga n'imbuto, harimo n'izi mboga za karoti.

Imineke ya kamara iri ku rutaro, bishoboka ko iri gucuruzwa, ni imeke ikunzwe cyane kandi iryoha, gusa imbuto yayo iri kugenda irushaho gucika bitewe nuko itakiboneka cyane ku isoko, n'aho ibonetse iba ihenze.

Ingemwe ziteye mu murima, ingemwe zisa nkaho zitewe vuba kandi zikiri ntoya birashoboka ko zaba ari ingemwe z'ibiti byera imbuto nk'urugero, ipapayi cyangwa se ibinyomoro.

Igihingwa cy'intoryi ziteye ahantu mu kabande zisasiye kandi zatangiye kwera, ziri hafi y'aho bashobora gukura amazi kugira ngo bazivomere kandi umusaruro wazo ubasha kuba mwinshi ugezwa ku isoko kugira ngo ubashe gukura mu bukene ba nyirazo bazihinze.

Umuhinzi afite ibyatsi byinshi ari gusasiza igihingwa yahinze cy'inyanya, uku gusasira inyanya bizifasha kwera neza aho zibasha kubika amazi azazitunga, kandi bikazirinda ko ubutaka bwatwarwa n'amazi bashyizemo bavomera cyangwa se n'imvura.

Imbuto n'imboga zitandukanye zaguzwe cyangwa se zavuye guhahwa mu isoko n'abantu batandukanye, harimo cyane cyane abanyeshuri zashyirwa hamwe kugira ngo zitegurwe gutekwa, cyangwa se kuba zakoreshwa

Isoko ry'imboga ririmo imiteja, betarave, sereri, ibitunguru, karoti n'ibindi. Aho abaguzi baza kubigura hano mu isoko, ndetse ababyejeje mu mirima yabo bakabizana kugira ngo abacuruzi bakorera muri rino soko babirangure.

Imbuto zashyizwe ahantu hamwe ku gatanda aho zicururizwa, harimo imineke, avoka ndetse n'izindi, ziba zazanywe n'abahinzi bazihinga bakazigurisha n'abantu bazirangura, abazirangura na bo bakazicuruza n'abandi bantu bahaha bisanzwe mu isoko.

Umuhinzi arifashisha indobo avomera imboga yahinze mu murima kugira ngo umusaruro wazo ubashe kuba mwinshi, bityo igihe cyo gusarura azabone ibyo kurya kandi abona n'uko asagurira isoko.

Umuhinzi uri kwifashisha imoteri mu gukura amazi ahantu hamwe ayajyana ahandi, ni uburyo bwifashishwa kandi bugezweho mu kuvomera, aho byihuta kandi bitavuanye kandi ukabasha kuvomera ahantu hanini cyane.

Umurima uri mu kabande uteyemo ibigori, umuhinzi arakoresha ipombo mu gutera umuti ku bibabi by'ibigori, aho bifasha mu kurwanya udusimba dutoya twataka ibigori kandi n'utwamaze kwatakaho tukaba twapfa kugira ngo ibigori bikure neza.

Umuturage uhagaze mu gishanga, gihinzemo ibigori ndetse n'indi myaka, aho ari kuvomera yifashishije umupira, ibi ngibi bikaba bimworohera ndetse akabasha kuvomerera ahantu hanini, yifashishije uyu mupira ndetse n'amazi ntamugore cyane kuko nubwo yayakura kure ariko arayabona.

Umuhinzi arifashisha ipombo ivomera mu kuvomera igihingwa cye cy'imboga yahinze, harimo amashu ndetse n'intoryi, ibi ngibi bituma igihe cyose, yaba mu gihe cy'izuba abasha guhinga kuko biramuwohera kuvomera bitewe nino pombo aba afite.

Umuhinzi, uri gukoresha umupira mu kuvomerera, imyaka ye ibi ngibi biramworohera kandi bikihutisha igikorwa ndetse n'umusaruro, ukabasha kuba mwinshi dore ko abasha guhinga mu gihe cy'izuba ndetse n'igihe cy'imvura, atabangamiwe.

Umuhinzi arifashisha umupira munini, mu kuvomera imbuto ziteye z'ibigori, ndetse ziteye ku murongo, kandi akenshi zitereshwa ifumbire y'ivaruganda, kugira ngo umusaruro wazo ubashe kuba mwinshi mu buryo bukwiriye.

Ubuhinzi buteye imbere bw'ibinyomoro, aho ibyomoro bimeze neza, birasasiye kandi ibibabi byabyo bimeze neza ntabwo byarwaye, umuhinzi arifashisha umupira mu kuvomera aho ibi ngibi bituma no mu gihe k'izuba abasha guhinga kandi ntagire impungenge.

Abahinzi bari mu murima uhinzemo ibihingwa bisasiye kandi bimeze neza, bari gukoresha ipombo cyangwa se umupira mu kuvomera, aho bibafasha kugira ngo umusaruro uzabe mwinshi kandi no mu gihe cy'izuba babasha guhinga kuko kuvomera biborohera.

Abahinzi barifashisha imipira mu kuvomera imyaka ihinze kandi isasiye, ibi ngibi bituma amazi abasha kuguma mu butaka kandi gukoresha umupira bituma no mu gihe cy'izuba abahinzi badatinya guhinga kubera ko babasha kuyifashisha mu kuvomera.

Umuturage ufite umupira, ari kuvomera igihingwa cy'ibigori bihinze neza, ku murongo kandi mu buryo bwa kijyambere, aho ibi byoroshya akazi binyuze mu gukoresha imoteri ibasha gupompa amazi, ikayageza aha ngaha mu buryo bworoshye.

Umurima uhinzemo ibigori, umuhinzi aragerageza kuvomera ibi bigori bitewe n'uko ari mu gihe cy'izuba, bisa nkaho bivunanye cyane, bitewe n'uko ubaye ari umurima munini byagorana ndetse n'aho gukura amazi kenshi ubu usanga hagoranye.

Umuturage w'umuhinzi uhinga intoryi, ndetse agakoresha umupira mu buryo bugezweho bwo kuvomerera, aho imoteri ipomba amazi akabasha kugeraho ku buryo bworoshye, bityo bigatuma ubuhinzi bwe butera imbere kubera yuko abasha kuvomerera bitamugoye.

Igishanga gihinzemo umuceri ndetse kerekana imiyoboro y'amazi, aho igihingwa cy'umuceri gikenera amazi menshi, ndetse no kwitabwaho mu buryo bwihariye, kandi abahinzi bagihinga kenshi bakunze gukoresha amashyirahamwe kugira ngo no kuvomera biborohere.

Udutanda dutandukanye twanikwaho umusaruro wahinzwe, harimo ibigori, ingano ndetse n'ibindi bishobora guhingwa, hafi y'aho turi, aha ngaha bahanikaho kandi bagakura hano umusaruro bawujyana ku isoko, kugira ngo ujye gucuruzwa.

Udutanda turi ahantu mu kabande, twanitseho hamwe n'ingano cyangwa se ibigori, aho zitunganyirizwa mbere yuko zipakirwa zijyanwa aho zicururizwa.

Umurima munini cyane utunganije, urimo amaterasi y'indinganire, kandi uteyemo ibiti ndetse n'ubwatsi ku miringoti. Ibi ngibi ni byiza cyane kuko bituma, ubuhaname bwaho butahatera gutwarwa n'isuri, bitewe nuko ubutaka buba bufashe neza.

Igishanga kinini gifite boloke ihinzemo umuceri ndetse harimo umuhinzi wunamye uri kuwukorera kugira ngo umuceri ubashe kuzamuka neza, nubwo rimwe na rimwe uba ukeneye amazi menshi ariko ubu ukene no kugira ibindi wakorerwa kugira ngo umere neza.

Abahinzi bari gukora igikorwa cyo gutunganya ubutaka, aho biteguye guhinga ndetse abandi bakaba bari gutera rwose, amaterasi y'indinganire arahari kugira ngo afate ubutaka bwabo butazatwarwa n'amazi kandi ibiti birahinzemo kugira ngo bifate ubutaka bubashe gukomera.

Ikibaya gihinzwemo igihingwa cy'icyayi, kikaba ari kimwe mu bihingwa mu Rwanda bahinga kandi gitanga amafaranga yaba ku bagihinga, ndetse kikanoherezwa hanze y'igihugu kugira ngo cyinjize amadovize.

Ubutaka butunganije ndetse buriho amaterasi y'indinganire akozwe, kandi ubutaka butewemo ibihingwa bitandukanye, amaterasi afasha kugira ngo ubutaka butazatwarwa n'amazi mu buryo bworoshye.

Igishanga gihinzemo igihingwa cy'umuceri ndetse ni mu gihe cy'izuba ariko umuceri ufite amazi kuko umuceri ari igihingwa gikunda ahantu hari amazi menshi, ndetse ahantu hose uhinze haba hagomba kuba hari isoko y'amazi menshi.

Ikibaya kinini, gihinzemo, igihingwa cy'umuceri. Gikunze guhingwa ahantu haba amazi menshi. Ndetse ba nyirawo bakaba bagomba kutaho by'umwihariko. Kugira ngo ubashe gutanga umusaruro ukwiriye. Babone uwo kurya. ndetse babone n'wo kujyana ku isoko kugurisha kugira ngo babone amafaranga.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda bikinjiriza igihugu amafaranga kubera ko cyoherezwa hanze kandi benshi bavuga yuko ari icyayi kiryoha cyane kandi abaturage bakabasha gukuramo inyungu z'amafaranga.

Abaturage batandukanye bari mu mirima yabo, bahinga bamwe barahinga, abandi bari gutera imyaka itandukanye kandi gahunda yo gutera ibiti mu mirima irakomeje kubera yuko ibiti birimo kandi biri kuzamuka neza.

Igisambu cyangwa se ubutaka budahinze buri kumeramo ibyatsi bitandukanye ndetse mu gihe kiri imbere hashobora kumeramo ibihuru, ariko hari inzu ishobora kuba ari itanura ribumbirwamo amatafari.

Igishanga gitunganyije gihinzwe, kandi kiteguye guterwamo imyaka itandukanye. Kenshi hakunze guhingwamo ibigori, ibishyimbo, mu gihe amashyirahamwe, yishyiraha hamwe kugira ngo agikoreshe. Kandi umusaruro ukaba mwinshi, bitewe n'uko bakoresha amafumbire atandukanye.

Umurima mugari cyane uhinzemo igihingwa cy'icyayi, aho gihingwa ahantu hakeya mu gihugu, nyamara abahinzi bagihinga babonamo inyungu nyinshi cyane kuko ari igihingwa cyoherezwa no hanze y'amahanga, kikinjiza amafaranga yaba ku gihugu ndetse no ku bahinzi baba bagihinze.

Agasozi kariho imirima ndetse kariho amatarasi y'indinganire, ariko karimo n'ibiti bitandukanye ndetse kanatuwe n'abaturage bahinga aha ngaha cyane cyane, gusa ibikorwaremezo bihari ntabwo ari byinshi kuko nk'imihanda ntayihari ndetse n'amazi n'umuriro ntabwo bihari.

Ihene ebyiri ziziritse imbere y'amarembo, ndetse nyirazo avuye kuziha ubwatsi; bikaba bica ihene zijya kuzirikwa mu gasozi aho usanga akenshi na kenshi umutekano wazo uba utizewe.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe z'ubwoko bumwe nziza kandi zifite buri kimwe ziri ahantu hasa neza kandi zifite aho zinywera amazi ame neza bituma amazi yazo atandura kandi no mu gihe bashaka kuziha umuti bakawuziha mu buryo bworoshye.

Ikiraro cyubatse kandi gisakaye kirimo inyana aho ba nyirayo bari kuyitaho bayiha ibyo kurya, iyi gahunda yo koroza abaturage inka, ikaba ari gahunda nziza iri mu gihugu kugira ngo abantu babashe kwikura mu bukene kandi babashe kunywa amata bityo babashe kuva no mu mirire mibi.

Ubworozi bw'inkoko zishobora no kujya hanze kwitorera, ariko ni inkoko zisa kandi za kijyambere aho zibasha gufasha imiryango kubona amagi, bityo imirire yabo ikazamuka. Ndetse no mu gihe bakeneye amafaranga bashobora kuzigurisha baka amafaranga yo gukemura ibindi bibazo bafite.

Inkoko za kijyambere ndetse zubakiye ahantu mu kazu kagezweho ka kijyambere, ibi ngibi bituma inkoko zongera amagi zitera kandi zikabasha kubaho mu buzima butuma zitabasha kwanduzanya indwara mu gihe zarwaye.

Ihene ebyiri zizirikiranyije, zajyanwe gushaka ibyo kurya cyangwa se kurisha, aho abaturage bazijyanayo mu kimbo cyo kuzigumisha mu rugo ngo bazororere mu rugo, ibi bikaba bigiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'uko ziba zifi ziri mu byago byo kwibwa cyangwa se guhura n'ikindi cyazigirira nabi.

Imishwi myinshi iri ahantu hamwe, kandi yacaniwe kugira ahantu iri hashyuhe, ni kimwe mu bifasha imishwi gukora neza, kuko kenshi na kenshi iyo ikiri mitoya, ikunze kwicwa n'ubukonje. Bityo rero ubushyuhe burayifasha kugira ngo idapfa.

Umuturage w'umuhinzi, uvuye mu murima, ndetse akaza azaniye amatungo ye magufi harimo ihene, ubwatsi, ibi ngibi bituma umuturage abasha kubona ifumbire yo gushyira mu murima kugira ngo yeze neza, kandi abashe no kubona amafaranga mu gihe yagurishije amatungo magufi.

Inyana y'inka iri mu kiraro cyayo, isa neza rwose irashishe kandi biragaragara yuko ari ikimanyi k'inka za kijyambere zigezweho, muri gahunda ya leta yo koroza abaturage inka kandi no kongera umukamo w'ibikomoka ku matungo.

Itungo ry'ihene riziritse mu kiraro kandi ryahawe ibyo kurya riri kurya. Ibingibi ni gahunda nziza yo kororera mu biraro, aho bituma amatungo atajyanwa ku gasozi kugira ngo abe yahura n'ibiyangiza kandi aba yakurayo indwara zitandukanye.

Ingurube nini cyane iri konsa ibibwana byayo yabwaguye, byinshi rwose bigaragara yuko umusaruro wayo ari mwinshi. Ibi ngibi bifasha abaturage kwivana mu bukene, aho bashobora kugurisha ibibwana, bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye bashobora kuba bafite mu miryango yabo.

Ubworozi bw'ingurube bwa kijyambere, aho ingurube ziri kororerwa ahantu hasa neza hasukuye ndetse na zo ubwazo zirasa neza, aho kurira hasa neza, ibi ngibi bigatuma nta ndwara zibasha kuzifata mu buryo bworoshye.

Inkoko ziri hanze ziri gutora imwe yapfuye, ni inkoko nyinshi, ubworozi butajyanye n'igihe kandi ubworozi bugoye bitewe n'uko inkoko ziri gutorera ahantu hasa nabi kandi ni nyinshi, biroroshye ko zakwanduzanya indwara.

Umugabo ufite ubwatsi ari guha inka iri mu kiraro, cyubakishije ibiti byonyine, iruhande rwaho hari ingurube ndetse n'inkoko, ibi ngibi bikaba ari bimwe mu byo Leta ikangurira abaturage ibabuza, kugira ngo bagire ubuhinzi ndetse n'ubworozi buteye imbere, mu kubaka ibiraro bigezweho. Kandi buri tungo ryose rikaba rifite ikiraro cyihariye kugira ngo amatungo atanduzanya indwara zitandukanye.

Inka iri mu kiraro cyayo, aho igaburirirwa kandi igahabwa ubwatsi, ibi ni byiza kuko bituma abaturage babona ifumbire ihagije, gusa birakwiye yuko iyi nka yubakirwa aho kurira hameze neza, kugira ngo biyirinde umwanda uturuka mu kurira hasi.

Ikiraro cyubatse kirimo amatungo y'inka, ba nyirazo bari kuyaha ubwatsi kandi ibi ngibi ni byiza kuko byongera ifumbire aya matungo atanga ndetse bikayarinda kuba yagira indwara yahurira na zo mu gasozi mu gihe yaba agiye kurira ku gasozi.

Ikiraro kinini cyubatse neza kandi cya kijyambere kirimo inka zifite aho zigaburirirwa kandi zikororerwa mu biraro kugira ngo ifumbire yazo ibashe kubonwa kandi n'umusaruro wazo ubashe kwiyongera. Ibi ngibi binazirinda kuba zahura n'indwara zitandukanye.

Imitiba y'ubwoko butandukanye, yifashishwa aho itegwa kugira ngo ijyemo inzuki bityo zizabashe gukoreramo ubuki, hari ababikora ku giti cyabo ariko hari n'ababikorera mu makoperative kugira ngo ubuki buvuyemo bubashe kugurishwa bube isoko y'amafaranga.

Ikibaya kinini cyane kirimo inka zimeze neza zisa neza kandi zifite umukamo zororerwa aha ngaha zikaharisha kandi zikabasha gutanga umukamo ushimishije, ibi ngibi bituma abaturage babona amafaranga binyuze mu kugurisha amata kandi bakabasha no kuyanywa.

Ikiraro cy'inka ebyiri zirimo, ikiraro kiri ahantu kirasa nabi ntabwo bazikukiye ndetse zirikurira ubwatsi bazihaye hasi, ubuhinzi n'ubworozi bw'aha hantu ntabwo buteye imbere.

Inka iri mu kiraro irasasiwe, ahantu iri harasa neza umukamo wayo ubasha kubonwa mu buryo bworoshye ndetse n'ifumbire ibasha kuboneka ari nyinshi kandi igakusanywa kugira ngo bifashe ba nyirayo mu buhinzi bwabo busanzwe kandi binayirinde kuba yagira indwara yandurira mu gasozi igihe yagiye kurisha mu gasozi.

Inka ziri hamwe, zishobora kuba zazanwe mu isoko, kugira ngo zigurishwe, cyangwa se zikaba zaje kugira ngo ziterwe inkingo zitandukanye, zizirinda indwara ziri kwibasira inka muri ino minsi ya none.

Inka ziteraniye ahantu hamwe, ndetse hari n'abayobozi. Bishoboka cyane yuko ari inka zaje gutangwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda, gahunda nziza yashyizweho n'umuyobozi w'igihugu, aho abakene bagenda borozwa inka kugira ngo babashe kunywa amata kandi babone ifumbire yo guhinga ubutaka bwabo, bubashe kwera neza.

Itungo ry'ingurube riryamye mu kiraro cyaryo, birashoboka ko ryapfuye cyangwa se riryamye bisanzwe, ngo aho bororera amatungo magufi nk'ingurube, leta ishikariza abaturage kutahagirira umwanda, ariyo mpamvu mubona hasa neza.

Ikiraro cya kijyambere cyororerwamo inka, gusa ntabwo gikorewe isuku kubera ko inka iri mu byondo ahantu hasa nabi, bikaba byabangamira inka kandi bikaba byatera n'indwara zitandukanye zataka inka.

Inkoko za kijyambere ziri ahantu hamwe kandi zigaburirwa hamwe, zitabwaho hamwe kandi zororerwa mu kiraro kimwe kugira ngo birinde y'uko zajya ku gasozi zikaba zahakura nk'indwara zitandukanye, cyangwase zikaba zahura n'ibyazigirira nabi.

Amatungo y'ihene abiri aziritse ku kiraro kirimo andi matungo, aho ari gahunda nziza ituma ifumbire y'aya matungo ibasha gukusanyirizwa hamwe kandi bikayarinda ibibazo ashobora guhurira nabyo mu gihe yagiye ku gasozi, harimo kuba yakwibwa, harimo kuba yaribwa n'inyamaswa n'ibindi.

Mu rugo ababyeyi babiri bari kugaburira inka, ndetse umwana wabo ari kugaburira inkoko; ibi ngibi bituma umuryango ubasha kwihaza binyuze mu kurya intungamubiri harimo amagi ndetse no kunywa amata, bityo imirire mibi ikabasha kurandurwa kandi bakabasha no kubona amafaranga.

Ingurube iri mu kiraro cyayo, ahantu hasa neza, hapavomye kandi ifite aho kurira hasa neza, aho bitandukanye cyane n'ibisanzwe, aho usanga ingurube ibiraro byazo biba bisa nabi kandi n'aho zirira hasa nabi.

Ikiraro cyubatse kandi kirimo inka ziri kugabururirwa hamwe ndetse ibi ni gahunda nziza yo gutuma ifumbire ibasha kuboneka ari nyinshi ndetse bikarinda inka kuba zarwara indwara zandurira mu gasozi, binyuze mu kurisha ubwatsi bubi ndetse n'izuba rizicira ku gasozi.

Abaturage bari ahantu henshi, bari guhabwa ihene ni itungo rigufiya bari korozwa kugira bibashe kubafasha kwikura mu bukene ndetse abahinga babashe kubona ifumbire kandi no mu gihe zabyaye, babashe kuzigurisha babone amafaranga yo kwikura mu bukene.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere zigira umusaruro mwiza, yaba mu buryo bw'inyama ndetse n'amagi, kandi zubakiye, zigahabwa ibyo kurya byiza, amazi meza, kandi zikaba ziri ahantu hameze neza, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'ibigori bisharitswe mu kazu byubakiwe kugira ngo bishyirwemo, bishyirwamo iyo bimaze gusarurwa kandi kugira ngo ibashe kuma, bityo iyo bimaze kuma barabihungura bakabipakira mu mifuka babikajyana ku isoko kugira ngo bigurishwe.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bihinze neza mu myobo kandi hagati y'igishyimbo n'ikindi harimo umwanya, bityo bikabasha kumera neza kubikurikirana bikoroha ndetse no gushyiraho ifumbire yaba imvaruganda ndetse n'imborera bikoroha umusaruro ukiyongera.

Ubuhumbikiro cyangwa se pepinyeri bihumbikwamo ingemwe zitandukanye, mbere y'uko zivanwahangaha zijya guhingwa kandi ni umushinga mwiza ushobora guteza imbere abaturage, aho bashobora kuyikora bakajya bagurisha imbuto zahumbitswe.

Ubuhombikiro bw'ibiti bitandukanye, harimo ibiti by'imbuto nk'amatunda ndetse n'ibindi. Ni ho zitunganirizwa mbere y'uko zijyanwa guhingwa mu butaka bwateguwe. Ibi ngibi bifasha abazihombeka kubona amafaranga, kandi n'imbuto zikabasha kuboneka.

Ubwoko bw'imboga buteye mu murima, umuntu uri kubwerekana, ni ikibiringanya ni ubwoko bujya kumera nk'intoryi ariko zitari intoryi kuko zo ntago zirura, birerekana yuko ari umuhinzi.

Ahantu hanini kandi hasharitswe ibigori aho babishyira bamaze kubisarura kugira ngo byume, nyuma yo kuma barabihungura bakabipakira mu mifuka, bakaba babijyana kubigurisha haba ari ku nganda cyangwa se ku bandi bantu.

Igihingwa cy'imboga z'intoryi, intoryi zeze neza kandi zimeze neza, zirasasiye kandi zahawe amazi, zigeza igihe cyo gusarurwa, iyo zeze zigasarurwa zibasha kugurishwa kandi abaturage bakabasha kubona imboga zo kurya.

Ubuhumbikiro bubumbikwamo imbuto zitandukanye ndetse n'ibiti, aho mbere y'uko zigemurwa zijyanwa mu mirima zizahingwamo zibanza kunyuzwa hano zikamera, zigakura, noneho nyuma zikazajyanwa mu mirima yateguwe zizahingwamo.

Imbuto z'amatunda, ziri mu kintu kimwe. Bishoboka ko ziri kugurishwa, kugira ngo uyu umuntu waziranguye cyangwa se umuntu wazihinze, abashe kubona amafaranga. kuko ni nyinshi kandi ntabwo yabasha kuzirya wenyine.

Igishanga gihinzemo igihingwa cy'umuceri, kandi ni igihingwa gikenera amazi menshi, aho ahantu uhinzwe hagomba kuba hari amazi ahagije ahagera. Iyo bitabaye ibyo ngibyo umuceri urangirika. Ikindi kintu kandi n'umusaruro wawo ukaba mukeya.

Uruhumbekero rw'ibiti bitandukanye harimo ibiti byera imbuto ndetse n'ibiti byo mu ishyamba, aho bivanwa aha ngaha bijyanwe guterwa mu mirima yateguwe bizahingwamo n'abaturage basanzwe cyangwa se amakoperative cyangwa se amashyirahamwe y'abahinzi azabihinga.

Ubuhinzi bugezweho bw'amatunda. Aho yubakiye neza na senyenge kandi zikomeye. Aho abasha gukurira akarandaranda kandi akabasha kwera umusaruro ushimishije. Bigafasha abawuhinga kubona amafaranga.

Ibigori bisharitswe ndetse biri kuma, aho mbere y'uko bihungurwa kugira ngo bipakirwe bijyanwe kugurishwa cyangwa se bijyanwe gusheshwa bibanza kumanikwa ahangaha kugira ngo bihumire ndetse umutekano wabyo ube ucungiwe hamwe.

Ingemwe z'ibiti biterwa, bigaterwa muri jaride cyangwa se bikaba byaterwa n'ahandi, kandi bikura neza, bigaragara neza, bityo ahantu biteye, hakabasha kuba umwuka mwiza, kandi bikabasha no gufata ubutaka.

Abahinzi bari kuvomerera kandi bari kwita ku ngemwe zihumbitse, mbere y'uko zimera kugira ngo zibashe kuhakurwa zijyanwa guhingwa mu butaka bwateguwe, babashe kubona amafaranga kandi n'abahinzi babashe kubona ingemwe zo guhinga.

Inyana ntoya, iziritswe, ifashwe kandi iri guhabwa umuti n'umuganga w'amatungo, ibingibi bikaba bifasha abaturage kugira ngo birinde indwara, kandi no mu gihe amatungo yabo yarwaye babasha kubona umuntu uyabavurira ku buryo bwihuse.

Abagabo harimo umuganga w'amatungo, umuveterineri, bamwe bafashe inka kugira ngo umuganga w'amatungo ayitere umuti cyangwa se ayitere urukingo mu kurwanya indwara ziri kuza zifata amatungo harimo n'inka.

Inka nyinshi bari kuyobora mu rupango bishoboka yuko bari kuziyobora bazijyana mu modoka cyangwa se bazirekura bazijyana kuzigurisha, bitewe nuko uru rupango rusa nkaho ruzitiye kandi n'abagabo bari kuzikubita bazerekeza mu cyerekezo kimwe.

Umuvuzi w'amatungo aricaye aho yaje kuvura inka ziri mu kiraro, aziha imiti cyangwa se azitera inkingo ndetse n'ubundi bujyanama ashobora guha abahinzi n'aborozi, kugira ngo amatungo yabo abashe kugubwa neza.

Inka y'ikibamba iri mu kiraro cyayo, abagabo babiri umwe ari kuyagaza, undi ari kuyishitura ibirondwe, ni inka ishonje, kandi iri mu kiraro kitagezweho kitari icya kijyambere.

Inka ziri mu gisambu, aho zirisha, ziri kumwe n'umuntu ushinzwe kuzitaho, twakwita umushumba, uzimenyera buri kimwe, akamenya kuzuhira, akamenya kuzicyura, ndetse n'izarwaye akazimenya kugira ngo zihabwe ubuvuzi.

Abaturage bafite imbwa bazanye kugira ngo zikingirwe n'umuganga ushinzwe amatungo, aho ibi ngibi bituma imbwa ikingiwe itabasha kwanduza igihe igize umuntu irya ibisazi cyangwa se n'izindi ndwara, bityo ntikururire nyirayo ingaruka zishobora no kuvamo gucibwa n'amafaranga cyangwa gufungwa.

Umugabo ufite agakayi ndetse afite ikaramu ari kwandikamo kandi afite n'iherena ryambikwa inka, kenshi bikorwa igihe inka ivutse cyangwa se igiye guterwa intanga, kugira ngo inyana yayo izabyara izabe ifite nimero ibaruyeho.

Imbwa yicaye mu byatsi, isa n'iyahagira bigaragara yuko ishobora kuba bifite inyota, cyangwa se yishwe n'izuba, bitewe n'uko hariho izuba ryinshi.

Akanyamaswa gatoya gateye ubwuzu kandi gasa neza kitwa isha, ni kamwe mu tuyamaswa tuboneka mu ishyamba turya ibyatsi ndetse dukunze guhigwa cyane n'inyamaswa zo mu ishyamba zirya inyama, ariko tukaba tuzwiho kwirukana cyane tukazicika.

Utunyamaswa tw'inkende zuriye ziri mu giti harimo imwe ifashe akana kayo n'utunyamaswa duteye ubwuzu, duteye amatsiko kandi dushimisha abantu benshi bakunze kuza kutureba bitewe nuko dufitanye isano n'umuntu kandi n'ibintu zikora ibyinshi uba ubona bimeze nk'iby'abantu.

Icyapa kinini cyanditsweho ngo, welikamu tu Nyungwe nashono paki, ikaba ari imwe muri pariki iri mu gihugu cy'u Rwanda, abakerarugendo benshi bishimira gusura bitewe n'ibihaboneka, harimo nk'ubwoko bw'inyoni, zitaboneka ahandi ari hose ku Isi, uretse muri Nyugwe nashono paki.

Inyamaswa zikunze kugaragara mu ishyamba zitwa isha, zimwe zikunze kuba zifite amahembe ndetse izindi zidafite amahembe, tukaba ari utunyamaswa duhigwa cyane n'inyamaswa zirya inyama, ariko tukaba tuzi kwirwanaho binyuze mu kwirukanka cyane.

Inyamaswa ziri mu bwoko bwa cipanzi ziri mu ishyamba ni kimwe mu nyamaswa zikurura abantu cyane bitewe n'ibintu zikora bidasanzwe aho kenshi bavuga yuko zifitanye isano n'umuntu usanzwe tubona.

Abantu batatu bari ku kiraro kinyura hejuru giherereye mu ishyamba rya Nyungwe, aho abakerarugendo baza kuhasura bitewe n'uko kuhajya biba bigaragara neza kandi baba bitegeye imisozi myiza, bityo ubuzima bwabo bukagenda neza kandi n'igihugu kikinjiza amafaranga.

Inyamaswa zo mu ishyamba nini cyane zizwi nk'inzovu, ziri muri pariki, ahantu hamwe zashyizwe kugira ngo abakerarugendo babashe kuza kuzisura, bikinjiriza Igihugu amafaranga y'amadovize.

Inzovu zimwe mu nyamaswa zitangaje bitewe n'ubunini bwazo kandi zikunze kugaragara cyane mu mapariki bitewe n'uko zirya ibyatsi. Ahantu ziba hakunze kuba hari ibyatsi byinshi ndetse n'izindi nyamaswa zirazitinya.

Ikibaya kinini cyane kirimo inyamaswa nziza ziganjemo impara ndetse n'imparage, zikaba ari kimwe mu bikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu ndetse bakaza bazanye amafaranga y'amadevize, bityo ubukungu bw'igihugu bukazamuka.

Inyamaswa eshatu zitwa isha. Ni ni utunyamaswa tuba mu ishyamba turisha ibyatsi ndetse dukurura ba mukerarugendo cyane, bitewe n'uko turyoheye amaso kutureba.

Itsinda ry'inzovu ziri hamwe, harimo inkuru, ndetse n'abana bazo. Zisa nkaho ziriva kunywa amazi, zigenda. Ni inyamaswa nini cyane, kandi zikunze gusurwa na ba mukerarugendo. Gusa zirira ibyatsi, ndetse ahantu ziri hakunze kurangwa n'ituze.

Ikiraro kinini kinyura mu kirere kiri mu ishyamba rya Nyungwe gikunze gukoreshwa n'abakerarugendo, aho benshi bishimira kukinyuraho bitewe n'uko baba bitegeye imisozi iri hakurya kandi hakaba hari abaza kuhatemberera kugira ngo babashe no gusura inyamaswa zibonekamo.

Ikiraro kinyura mu kirere, cyubatswe kugira ngo gifashe ba mukerarugendo batembera muri Pariki ya Nyungwe, kuba babasha kubona ibintu byinshi cyane bitandukanye, uretse ko banahakunda bitewe n'uko haba hitegeye imisozi myiza kandi hagashimisha abantu bahagana.

Inkende yinaganitse hejuru; ni inyamaswa zikunzwe cyane kandi zikunze kugaragara mu Karere ka Huye, cyane cyane hafi ya Kaminuza y'u Rwanda; aho zikunze kurangaza abantu bitewe n'ibintu zikora bitandukanye, bijya gusa n'ibyo abantu bakora bisanzwe.

Inkende ebyiri zuriye hejuru ku ishami bigaragara yuko ari ikigabo n'ikigore zimwe mu nyamaswa zikunzwe kandi zikurura abantu bitewe n'ibintu zikora bitangaje ndetse bijya kumera nk'ibyo abantu basanzwe kandi bakora.

Ingagi iri mu giti hejuru, imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo cyane kandi ikunze kuba muri pariki y'Ibirunga, aho benshi baza kuyisura bitewe n'ibyo ikora bitangaje ndetse ijya kumera nk'umuntu.

Inyoni nziza iri mu ishyamba, aho izi nyoni zifite ubwoko budasanzwe zikurura ba mukerarugendo bitewe nuko kenshi nta handi hantu ziba zigaragara uretse mu Rwanda, cyane cyane mu ishyamba rya Nyungwe.